Umutaka wa sosiyete y'ikigo k'itumanaho gikorera hano mu Rwanda kizwi nka MTN, hakaba harimo umusore wambaye jire y'umuhondo ndetse n'umukara akaba afite agakapu k'umukara, imbere ye hari umukobwa waje kumusaba serivisi zo kubitsa ndetse no kubikura.

Aha ni ahatangirwa serivise zigiye zitandukanye z'itumanaho ndetse hifashishijwe ikoranabuhanga, hari umugabo uri kumwe n'abejenti ba MTN aho bari kugenda bamuha serivise zitandukanye nk'izo kubitsa ndetse no kubikuza.

Aka ni akazu ka sosiyete y'itumanaho ikorera mu Rwanda izwi nka MTN Rwanda, hakaba hahagaze abantu bari gusaba serivisi zigiye zitandukanye haba izo kubitsa, kubikuza ndetse n'amayinite.

Aha hatangirwa serivisi zijyanye n'ibikorwa bya leta, turi kubonaho ko hano batanga serivisi za banki ya Kigali bagatanga iza banki ya Equity, ndetse bagatanga na serivisi z'irembo.

Aka ni akazu karimo umukozi utanga serivisi zigiye zitandukanye z'ikoranabuhanga, aho bagufasha kuvunjisha amafaranga y'amanyamahanga, bagatanga serivisi za banki ya Kigali ndetse n'iza banki ya Equity.

Ubu ni ubworozi bw'inkoko zigezweho za kijyambere. Harimo umuntu uri kuzitaho cyane wambaye impuzankano y'icyatsi kibisi, bote z'icyatsi kibisi ndetse n'ingofero. Bikaba bigaragara ko ari iz'amatsinda.

Aba ni abantu bateraniye hamwe, aho bakoze amashyirahamwe agamije kuzamurana ndetse no gutezanya imbere. Bakizigama kandi bagahura bagakora ibintu bigiye bitandukanye.

Aba ni abagabo batatu, bakaba bicaye ahantu heza cyane, hakaba hari abagabo b'inzobere mu bijyanye n'amabanki ndetse n'amakoperative, aho bari gutambutsa ikiganiro basobanurira amashyirahamwe y'abahinzi ndetse n'abandi bakora indi mirimo uko bakwizigamira, maze bakiteza imbere.

Umugabo wambaye ikoti rya kositimu yambaye agapira k'ubururu n'imbere afite indangururamajwi, ahagaze imbere ari gutanga imbwirwaruhame avuga ibijyanye n'amabanki ndetse n'amakopeperative.

Aba ni abahinzi bavuye kwisarurira imyaka yabo. Aba bahinzi bakaba bakorera mu mashyirahamwe, bafite intego yo kuzamurana ndetse no gutezanya imbere. Hakaba harimo abagabo ndetse n'abagore.

Iyi ni inyubako y'akabari, ikaba iriho abantu benshi cyane, ubona ko ari bale izaberamo igitaramo kandi abakunzi ba Skol bakaba batagomba kuhacikwa.

Aka ni akabari, kakaba karimo ibirahure birimo ibyo kunywa ndetse biri mu birahure birebire n'ibigufi, hakaba amacupa ateretse ameze neza. Aha ni muri bale nziza kandi itanga serivisi.

Iyi ni inyubako y'akabari irimo inzoga zigiye zitandukanye, harimo iziri mu macupa y'ibyuma, iziri mu macupa ya parasitike ndetse n'iziri mu bikarito ndetse hakabamo n'imitobe aho ho hano bahacuruza ibigiye bitandukanye.

Iyi ni inyubako ikorerwamo imirimo y'ubucuruzi hakaba harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, nk'ibiri imbere birimo impapuro z'isuku zifashishwa mu gihe umuntu agiye mu bwiherero.

Aha ni ahabera ubucuruzi bugiye butandukanye, hakaba harimo imyenda, matera, imikeka. Hafi aho hakaba hari intebe ucuruza aba yicayeho ndetse hakaba n'imbuga ishasheho amapave.

Iri ni iduka ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, aha turi kubana turi kubona udukoresho twifashi hozwa amasafuriya ndetse n'ibindi bikoresho bisaba kwitabwaho cyane.

Aha ni mu rusengero, hakaba hari abantu bambaye imikenyero ndetse n'amakoti, bisa nkaho baba bari mu gikorwa cyo gusezerana imbere y'Imana. Ni urusengero rwubatswe mu buryo utamenya uko buteye.

Iyi ni nyubako y'urusengero, ni inyubako yubatswe neza cyane igeretse kabiri, abakiritu bayo bahagaze imbere yayo barishimye cyane kandi bari gufata ifoto imbere y'urusengero rwabo biyuzurije.

Iyi ni inyubako y'urusengero ikaba yubatswe mu buryo bugezweho, yubakishijwe amatafari ahiye ikaba isize irangi ku nkuta harimo intebe nziza cyane zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu.

Iyi ni inyubako y'urusengero, ikaba yubatswe neza yubakishije amatafari ahiye, hakaba hariho amabati ayisakaye, hari utubendera tumanitsemo imbere turiho ibara rya oranje n'umweru, hari urujya n'uruza rw'abantu.

Aba ni bantu bari gusenga basingiza Imana, bamwe bari gusimbuka, abandi baryamye hasi wagirango ngo ni basazi, gusenga na byo bisaba gushishikara kuko udashishikaye urasigara cyangwa se bikagaragara ko wuzuye abadayimoni.

Abakirisitu bo mu itorero rya katotolike bubaha imana ndetse na yezu kirisitu. Aha hari abihaye Imana bari guha umubiri wa kirisito abakristo, aho umukrisito atambuka bakamubwira ati akira umubiri wa kirisito.

Uru ni rumwe mu nsengero Leta yafunze kubera ko zitujuje ibisabwa, uru rusengero rukaba rwubatse mu buryo butagezweho rukaba rushaje cyane, imicange yashizeho amabati yarashaje imbere yaho wagira ngo ntihagikorerwa.

Aba ni abantu bari kwifotoreza imbere y'urusengero. Ni rusengero rwiza cyane rwubatswe, hejuru hakaba hasakaje amabati atukura ku gasongero hariho umusaraba babambyeho Yezu Kiristu, abenshi bakunze kwita umwana w'imana.

Iyi ni inyubako y'urusengero, ikaba yubakishije amatafari ahiye, irazamuye cyane ndetse ikaba ifite agasongero kariho umusaraba usa umweru, ikirere kikaba gifite ubururu.

Inyubako ya hotel ikaba irimo igitanda gisashe neza cyane ,harimo amashuka ndetse hakaba n'imisego ibiri, iki cyumba ni cyiza gifite amarido, hakabamo intebe ushobora kwicaramo ndetse giteye n'irangi.

Inyubako nziza cyane ya hoteri ikaba irimo umutaka urimo intebe ndetse n'ameza biri imbere y'ubwogero bwiza cyane burimo amazi afite ibara ry'ubururu azengurutswe n'uturabyo twiza.

Iyi ni inyubako ya hoteli ikaba igeretse ishuro enye, imbere yayo hari imitaka ifunze. Imbere y'iyo mitaka hagiye hari intebe ndetse n'ameza, hari amazi meza cyane ushobora kogamo maze umunaniro ukagabanuka.

Iyi ni hoteri nziza cyane yakirirwamo abakerarugendo, hakaba harimo intebe ndende ndetse n'ameza, harimo amadarage umuntu ashobora kuzamukaho akabanza akishimisha maze akabona guhabwa serivisi.

Inyuba nziza cyane ya hoteri, ikaba ishasheho amashuka meza cyane agezweho. Hariho imisego. Ku inkuta hariho imitako igiye itandukanye, kumadirishya hariho amarido aho iyi nyubako uyisohokeyemo utaha wishimye.

Iyi ni inyubako ya hoteli, iki ni icyumba kirimo uburiri bwiza cyane buriho matela isasheho amashuka y'umweru, hakaba hariho imisego ibiri, imbere hari akameza n'agatebe uwaraye muri iki cyumba ashobora kwicaraho.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteri yubatswe mu buryo bugezweho ikaba igeretse inshuro eshatu isakaje amabati, ikaba isize irange ry'umuhondo, imbere yayo hari amazi meza cyane y'urubogobogo ushobora kogamo ukanezerwa.

Inyubako nziza cyane ya hoteli, hakaba harimo indabyo nziza, hakaba hari intebe, hari indangururamajwi ndetse n'insakazamajwi, hakaba udutebe twiza cyane duteye, hariho imitaka. Hakaba hari amazi meza cyane y'urubogogo ushobora kogamo.

Iyi ni inyubako ya hotel, ikaba irimo uburiri bwiza cyane busashe, hakaba hariho imisego ibiri, kuri buri gitanda ndetse hakaba intebe ushobora kwicaramo, igihe kuryama bikurambiwe, iyi nyubako yubatse neza mu buryo bugezweho.

Iyi ni inyubako nziza cyane ya hoteri, ikaba irimo ibikoresho byiza cyane, harimo ifoto imanitse hejuru ndetse n'isaha, hakaba hari umukobwa utanga serivise, aho imbere ye hari mudasobwa.

Iyi ni hoteri nziza cyane ikaba irimo ameza ndetse n'intebe, yubatswe mu buryo bugezweho iyo uhatembereye ushobora kuhafatira amafunguro ndetse n'ibyo kunywa ukitahira cyangwa se bakagucumbikira igihe ubishatse.

Inyubako nziza ya hoteri, iyi nyubako igeretse inshuro eshatu ikaba isakaye neza, imbere yayo hari imitaka ikikije uruzi rusa neza cyane kuko rufite ibara ry'ubururu, aha ukaba uza ukoga maze ukiyicarira mu mutaka ukanezerwa.

Iyi ni hoteli nziza cyane ikaba irimo ibiribwa n'ibinyobwa byinshi kandi bigiye bitandukanye, hari intebe n'ameza bimeze neza, iyi hoteli itanga serivisi nziza kandi zigezweho ikazitangira ku gihe.

Iri ni isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu hakaba harimo abamotari baparitsemo ndetse n'abantu benshi cyane baje guhaha. Hari imitaka myinshi cyane icururizwamo hakaba n'amazu ari hakurya, hejuru hariho insinga z'umuriro w'amashanyarazi.

Iri ni isoko ribera ku muhanda, turi kubona abama babiri bikoreye imifuka umwe akaba afite n'akadobo mu kuboko, bahagaze imbere y'umupapa wambaye ishati y'umukara irimo uturongo ndetse hejuru yabo hari imyenda bari kugurisha.

Iri ni isoko riciriritse, rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo abantu baje guhaha, hahagazemo igare ndetse hari n'ibicuruzwa bitwikirijwe shitingi, aho bigaragara ko ba nyirabyo batarahagera.

Iri ni isoko ricururizwamo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ariko hakaba higanjemo imboga ndetse n'imbuto, turi kubonamo: inyanya, imineke, avoka ndetse n'ibindi.

Ni isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hakaba higanjemo urujya n'uruza rw'abantu baje guhaha. Hari abacuruzi bacuruje ibitunguru biri mu mabase ibindi bikaba bisutse hasi.

Aba ni abantu babacururije ku muhanda bakaba bagiye bacuruje ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ni abamama bagera muri bane imbere yabo hakaba hari imifuka itanditseho imyembe bagiye bayifunga ku mufungo, imyembe myiza cyane yahishiye.

Iri ni isoko ribera ku muhanda, iri soko rikaba ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye harimo utuyungurizo bakoresha bayungurura icyayi, hakaba utumamizo bakoresha bateka imboga ndetse n'uburisho bwazo.

Izi ni imbabura zikaba ziri mu isoko rito cyane riciriritse, aha ni aho hacururizwa ibikoresho bigiye bitandukanye, izi mbabura zikorwa n'abacuzi b'abahanga, aho bazikora mu byuma ndetse no mu ibumba.

Uyu ni umuhanda w'igitaka ugana ku isoko ribera ku muhanda. Ni agasoko karimo abantu benshi cyane baje kugura ibintu bigiye bitandukanye. Hakaba hari n'inyubako zirimo amabutike acururizwamo.

Iri ni isoko ririmo urujya n'uruza rw'abantu hakaba hari abacururiza mu mitaka ndetse n'abacururiza mu nyubako, harimo imodoka zigiye zitandukanye zazanye ibicuruzwa muri iryo soko hakabamo n'abaguzi bari kugura.

Aha ni ahabera isoko ry'amatungo, aho iyo iri soko ryabaye, habanzamo isoko ry'amatungo magufi nk'ihene, ingurube, ndetse n'inkwavu. Hanyuma ryavamo hakajyamo n'isoko ry'amatungo makuru nk'inka ndetse n'intama.

lyi ni restaurant nziza cyane, ifite salle nini ikaba irimo intebe, ndetse n'ameza ,batanga ibyo kurya bigiye bitandukanye ,bagatanga service zinyuze mu mucyo ,kandi zihuse kubabagana.

Iyi ni inzu itangirwamo serivisi z'amahoteli ndetse n'amaresitora, hakaba harimo umubyeyi uri gutambukamo harimo intebe nziza ndetse n'ameza, aho ushobora kuhagera maze ugahabwa amafunguro yawe utuje kandi unezerewe.

Iyi ni resitora itanga ibyokurya byiza cyane, aho usangayo ifiriti nziza iteguye ku buryo bugezweho, ukahasanga inyama. Ukaba wahasanga n'ikawa. N'usohoka ujye ujya ahantu hasobanutse.

Umuhanda wamabuye ukaba urimo abamotari babiri, umwe arikumanuka undi ari kuzamuka, uri kumanuka ahetse umugenzi naho uri kuzamuka nta mugenzi afite. hirya y'umuhanda hari inyubako ndetse hakaba n'ipoto iriho umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ibisate bibiri. Harimo ikinyabiziga akiri kuwugendamo cya moto. Umu motari uyitwaye akaba yambaye kasike ndetse n'agapira k'ubururu, hakurya hakaba hari inzu z'ubucuruzi.

Uyu ni umuhanda w'amabuye. Hakaba harimo umumotari utwaye moto. Imbere ye hari umutaka w'ikigo cya sosiyete y'itumanaho mu Rwanda kizwi nka Emutiyene, ukaba uhagazemo abantu.

Umuhanda wa kaburimbo urimo ikinyabiziga cya moto, umumotari yambaye kasike akaba atwaye umugenzi wambaye ishati y'ubururu na we wambaye kasike, bageze ahari imirongo abanyamaguru bambukiramo akaba ari kugabanya kugira ngo abanyamaguru babanze bambuke.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imodoka y'umukara. Uyu muhanda uciyemo ibice bibiri. Ku mpande z'umuhanda hari uturongo turiho amabara y'umukara ndetse n'umweru. Inyuma y'umuhanda hari ibiti byiza cyane bitanga umuyaga ndetse n'amahumbezi ku bawunyuramo.

Umuhanda wa kaburimbo urimo urujya n'uruza rwa moto. Hari moto eshatu zishoreranye, umumotari uri imbere nta mugenzi afite ndetse n'umuri inyuma nta mugenzi afite. Ukurikiyeho wa gatatu afite umugenzi.

Umuhanda wa kaburimbo ukaba urimo ikinyabiziga, ni igare ritwawe n'umugabo uritwaje ukuboko kumwe wambaye umupira w'umukara urimo akabara k'umweru hakaba harimo n'umubare karindwi, hakurya y'umuhanda hakaba hari abaturage bahatuye.

Umuhanda wa kaburimbo urimo moto ku ruhande hari icyapa kigaragaza ibyerekezo bigiye bitandukanye. Hakaba hari abantu bahagaze iruhande ndetse uyu muhanda ukaba urimo n'uturongo tw'umweru.